Detane ni umuti ukoreshwa mu buhinzi, abahinzi bifashisha bahinga ibintu bijyanye n'imbuto, intoryi, inyanya, ibishyimbo, kokombure n'ibindi n'ibindi.

Umufuka wa ire uteretse impande y'umurima w'ibigori bikiri bitoya. Bigaragara ko bagiye kuwupfundura bakadaha ifumbire mvaruganda ya ire, bagashyira ku bigori. Ire ni ifumbire nziza ituma ibigori byera neza.

Amacupa n'ibidomoro birimo umuti wo kwica amasazi, n'utundi dukoko duhwanye n'amasazi, uwo muti utuma imibu n'ibitagangurirwa, bitaza kutuza umutekano mu nzu.

Umugabo uri gu utera umuti mu bishyimbo bigufi, yambaye imyenda y'amashashi, yambaye na ga mu ntoki, yambaye n'ingofero yashyize n'agapfukamunwa ku mazuru no mu kanwa, kugira ngo umuti utamujya mu maso no mu kanwa.

Umugabo uhetse ipombo y'umuhondo, ari gutera umuti mu mashu. Udukoko turya amashu, twicwa n'umuti baba bari gutera, kugira ngo amashu abumbe neza, nta byonyi biyagezemo.

Ahantu hari depo y'imvaruganda yitwa dap, iri mu mifuka y'umweru, irambitse mu nzu ifite amabati y'ubururu.

Abantu bagaragara ko ari benshi, harimo abayobozi, hakabamo abapolisi, ndetse n'abasirikare. Bafite ibikoresho birimo imvaruganda bari gushyira ku myaka. Imvaruganda ituma imyaka ikura neza kandi igakura vuba.

Umugore utagaragara mu maso, mu ntoki afashe urugemwe, mu ntoki yambaye na ga.

Umufuka w'imvaruganda ya ire, ushushanyijeho iyo mvaruganda isa n'umweru, hamwe n'ibishushanyo by'umutuku, icyatsi n'umuhondo.

Imifuka irimo imvaruganda. Imifuka y'umweru ifungishije utuntu tw'ubururu，iteretse mu byatsi.

Icupa ribamo umuti wo gufuhira inka. Iryo cupa risa n'icyatsi, rifite ibara ry'umweru n'amabara y'icyatsi.

Umugabo usunitse igare ripakiyeho imifuka itatu y'imvaruganda ya dapu. Yambaye bote n'ipantaro y'ikoboyi, n'ikoti rya smirikwire. imbere ye hariho umusaza wambaye ingofero, impande ye hariho ibigori bikiri bito.

Amafi akaranze mu mavuta. Ayo mafi akaba yumye ayo mafi akaba atunze Abanyarwanda muri rusange. Afite n'intungamubiri zihagije mu bijyanye n'inyama.

Ibintu bimeze nk'ibikapu bisa n'umuhondo, birimo amafi menshi cyane bashyizemo, agomba kugemurwa ahantu, bayashyize mu ibyo bintu bimeze nk'ibikapu, amafi agagiye kugemurwa ahandi.

Idongo iriho ifi n'isosi yayo ,isosi bigaragara ko irimo ibirungo bihagije, bigaragara ko umuntu ufashe iri funguro aba afite ubuzima buzira umuze. Ifi ni ikiribwa gifite intungamubiri ihagije mu buzima bw'umuntu, isosi yayo na yo igafasha ubuzima bwacu.

Ibiryo biri ku isaniya. Bipfumyemo ifoke irimo umuceri n'inyama.

Amafi agaragara nk'aho ari mu mutego, umutego Abanyarwanda cyangwa se mu mahanga, baba bateguye gahunda yo kugira ngo bakore imitego yo kuyaroba, noneho kugira ngo babone ko agera ku bantu bayakeneye na bo bakiga ubwenge bwo kugira ngo bakore imitego.

Ifi irambitse ku isahani ikaranze, harambitseho n'umuceri hamwe n'ibirungo birimo: inyanya, sositomate, hamwe na karoti.

Amafi y'ubwoko butandukanye harimo ifi zigira amaga, n'ifi zitwa inkube. izo fi zikaba zifite intungamubiri, iyo umuntu yayiriye aba afite ubuzima bwiza. Ibintu byo mu mazi bifitiye abantu..

Abagabo bari mu bwato, bafite ingashyi mu mazi, bambaye ubusa hejuru, nta mashati bambaye, inyuma yabo hariho abantu bari kugenda n'amaguru hakurya y'amazi bari gutwaramo ubwato.

Ifi igaragara ko itetse neza irambitse ku isahani y'idongo. Isosi yayo irimo ibirungo byose bishoboka, bigaragara ko rwose ari ifunguro rimeze neza. Kandi ifi ni ifunguro rituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ikiyaga kirimo amazi, impande ya cyo hariho ibyatsi byahameze, hirya ya ho hariho igitari, haruguru ya ho hakabaho umusozi utagira igitari.

Isambaza ziri mu bwoko bw'amafi, ariko zo zikaba ari ntoya ziringaniye, zifite intungamubiri mu buzima bwacu bwa buriri munsi, insambaza ziba mu Kivu kandi isambaza zigera ku baturage benshi gusumba uko isi abantu bazihaha, isambaza zigera ku bantu benshi na rubanda rugufi zikabageraho.

Intara isutseho isambaza zakuwe mu Kivu, zimaze kuma, nibwo bazicuruza abanyarwanda bose n'abandi bo ku ruhande, bakarushaho kuzihaha, bigatuma abantu bagira imirire myiza.

Isambaza iyo bazikuye mu Kivu barazanika, zamara Kuma bakazikaranga mu mavuta.

Isiniya iteretseho isahani y'idongo. Irimo inyama, harimo n'ibitunguru bya onyo. Ku isiniya harambitse ikiyiko cyo kuzirisha. Muri iyo dongo harimo n'isosi y'izo nyama.

Amafi abiri agaragara ko aharambitse ahantu hasukuye; amafi akaba afite intungamubiri ku buzima bw'umuntu, amafi afite icyo akora mu buzima bwacu mu bijyanye no ku ifunguro rya buri munsi umuntu yagakwiriye guhura na ryo.

Ibizenga by'amafi biririmo ibibuti by'inkwavu, hirya y'ibizenga ariho inzu zisize irangi y'umuhondo. Ibizenga bororeramo amafi atari mu ruzi cyangwa se mu migezi itemba.

Umutego bakoresha baroba amahera mu ruzi cyangwa mu kiyaga. Amahera afite vitamine ituma umuntu anywa isosi ifite intungamubiri ku buzima bw'umuntu. Umutego ukoreshwa ahantu hari amazi menshi, atemba n'adatemba.

Amafi abiri ari ku cyokezo. Impande y'ayo mafi, hariho imishogi ine y'umutuku y'urusenda.

Amahera ari mu ibase isa na move. Amahera agaragara nk'aho bayarobye agiye kujyanwa ku isoko kugira ngo abayakeneye babashe kuyahaha kuko afite intungamubiri yo mu rwego rwo hejuru.

Indobo isa n'umuhondo yuzuyemo amafi akawushije, zuzuye cyane kuko ari nyinshi. Ifi zigaragara ko zahita ziribwa kuko zikawushije. Ifi ni intungamubiri ku bantu benshi, ifi ni ikintu gifite ubuziranenge mu mubiri w'umuntu.

Amafi abiri arambitse ku isahani, iruhande rwayo hariho ikirungo cyitwa te, iruhande rwayo hariho ironji risatuyemo ibice bibiri, rirambitse ku gatandaro.

Ikiyaga kirimo udusozi turimo ibiti n'amazu y'amabati y'umweru, hateye impande y'ikiyaga ibiti, bifite amababi y'icyatsi.

Isambaza zikaranze mu mavuta zirambitse hejuru ya sarade y'amashu n'ibitunguru, bigaragara ko bitera vitamini mu mubiri iyo umuntu abiriye.

Ifi igaragara ko ikaranze, irambitse ku idongo. Ifi i ifite umuhore utuma ugenda ukagera mu mubiri wacu, ugakomeza amagufa, ifi ni intungamubiri ikomeye, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ingemwe z'imisave zigaragara ko ziri muri mu bihuho byazo, babyinajemo muri pepiniyeri. Imisave ni igiti kiba gifite ubuziranenge, kiba gifite urubaho rukomeye gusumba ibindi biti dusanzwe tuzi, gikurikira intusi mu gukomera.

Intama zigaragara ko ziri kurisha inyuma y'urugo. Hari urugo rusakaje amabati y'umutuku rwubatswe igihanga. Rushakaje igihanga. Hagati hari insina, hino y'insina hari inzu bari kubaka iriho n'ibikwa. Ni inzu y'amatafari y'inkarakara. Izo ntama zisa n'umweru.

Umuhanda uteyeho indabo z'umuhondo. Inyuma y'indabo, y'izo ndabyo hariho ibiti byuu byayanze umweru, inyuma yabyo hariho inzu y'amabati n'insina.

Umurima uteyemo amashu, hirya y'aho hariho inzu y'amabati y'umweru, ifite amadirishya y'ubururu, imbere y'iyo nzu hahagaze umugabo wambaye umweru hejuru, n'ipantaro y'umukara.

Ibishingirizo byegetse ku nzu y'amatafari y'inkarakara, isakaje amabati y'umweru, ariko ashaje yahindutse umukara, hariho n'inzira inyuze iruhande rw'ibyo bishingiriro.

Intama igaragara ko iri kurisha inyuma y'urugo, ahantu hazitiye uruzitiro ruri kurandaho ibidodoki, hagaragara ko hari urutoki ruri hino y'inzu, iyo nzu ikaba itari kugaragara neza. Iyo ntama ikaba isa n'umweru.

Ibigori bigaragara ko biri mu murima bitari ibyera bikiri imibeya, ibigori iyo byeze bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo igihembwe cyabyo cyo kwera cyageze, bidufasha mu mirire tukaba mu buzima bwiza nta kibazo dufite.

Isombe ni imboga zifite intungamubiri nyinshi mu buzima bwacu. Amateke ya mugumba na yo ari hirya y'isombe, na yo ni ajyanye n'ibitera imbaraga. Hirya yaho hari inzu isakaje amabati y'umweru, hirya yaho hariho igipangu cy'amatafari ahiye.

Amatunda ya mushingiriro atanga umusaruro mwiza. Amatunda ya mushingiririro ni ay'abahinzi babigize umwuga ku buryo gasumba ayangaya aba ari ku ruzitiro. Amatunda adufasha mu mibereho yacu ya buri munsi kuko adufasha iyo dufite uburwayi, akadufasha gutuma abarwayi bazahuka.

Agashamba gateyemo imigano impande y'ako gashamba hariho akayira kazamutse.

Ihene ziri kurisha mu kibara, hirya yaho hariho ibiti n'inzu y'amabati y'umweru, hakurya yaho hariho ikirunga.

Intama ziri mu kibara ziri kuririsha ubwatsi. Impande yazo hariho inzu y'amatafari yubatse iriho n'igikwa. Impande yazo n'ubundi hari urutoki, kandi izo ntama zikaba zisa n'umweru hamwe n'iz'umukara.

Inzu igaragara ko yubakishijwe ibiti, impande zayo hakaba hariho uruzitiro ruriho ibidodoki ,impande zayo hari indi nzu yubakishijwe amatafari, amabati ayisakaye akaba asa n'umweru.

Imitwaro y'ibishingirizo yegetse ku nsina, imishingiriro tuyifashisha turi gushingirira ibishyimbo. Ibishyimbo birebire bitari bigufi, bishingirirwa n'imishingiro y'imbingo cyangwa se ibindi biti.

Igiti cy'umukara inyuma yacyo hariyo inzu y'ibara ry'ubururu, impande yaho hariho umwana uvuye kuvoma yikoreye ikidomora cy'umuhondo.

Urunyinya rw'urukarishya， ni urunyinya rwifashishwa iyo umuntu atsembye ibishyimbo， kandi rusigaye ruravura abantu umuvuduko. Ruri mu bwoko bw'intoryi ntoya.

Ibirayi biteye mu murima, ibyo birayi byenda kuyanga, hirya yabyo hariho insina.

Ahantu hameze nk'aho badahinga. Impande yaho hakaba hari ibiti by'amababi y'umukara, hirya yaho hakaba hariho ibyatsi bisa n'icyatsi.

Umurima ugaragara ko utemo ibitunguru by'amababi, hahugitsemo n'ibishyimbo bigufi, ibitunguru by'amababi byifashishwa umuntu agiye guteka isombe bituma isombe ihumura neza, ibitunguru byitwa puwaro bifite intungamubiri mu buzima bwacu.

Ishyamba ry'ibiti by'intusi za rweru, intusi n'ibiti bifitiye igihugu akamaro, mu bijyanye no gucana, no kubazamo imbaho zikora ibikoresho byinshi twifashisha muri rusange, haba iwacu cyangwa se mu biro cyangwa mu nsengero, hakorwamo ibikoresho by'ibanze nk'intebe, ameza.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ,wambaye n'ingofero bigaragara ko ari gusoroma imbuto, yambaye n'ipantaro y'umukara bigaragara ko ari umugo..

Inkoko y'inkokokazi ibundikiye udushwi tune. Ifite icyari irari yariraririyemo, nimo ibundikiriye abashwi bayo.

Ingurube ni itungo ryororokana vuba. Rikabyara mu mwaka mo kabiri. kandi rikabyara ibyana byinshi. zikororerwa ahantu heza hakoze neza.

Pavuro, imiteja, indimu, intoryi. Ni ibintu bijyanye n'imboga dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Zifite icyo zimariye ubuzima bw'umuntu mu mibereho ya muntu.

Ibigori bigaragara ko biri mu buhunikiro bw'imyaka, ubuhunikiro butuma abantu batotsa imyaka ngo bayigurishe, bakayijyana mu buhunikiro aho ubuyobozi buba bwarabwubatse.

Insenda zisa n'umuhondo n'izisa n'umutuku, n'izindi zisa n'icyatsi zitari zera. Urusenda rukorwamo urusenda rwakabanga, urusenda rbakarurya ku biryo ukumva umuntu afite apeti.

Intoryi n’inyanya zitanditse ku mifungo ahantu bazicururiza. Ubucuruzi bwo gutandika ku mifungo, buteje abantu imbere. Kuko abantu benshi babikora, usanga barateye imbere.

Ibirayi bisutse ku tumeza bagiye bakora two gucururizaho. Impande zaho ku kameza kamwe hicaye umugore, inyuma yaho hahagaze umugabo, hariho n'umufuka urimo ibirayi bidasutse ngo bishire.

Umugabo uri gusoroma amatunda ,yambaye umupira w'umuhondo ,yambaye agapfukamunwa k'ubururu, amatunda n'imbuto zifashishwa cyane cyane iyo umuntu arwaye ,agafasha umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi ,kugirango ngo abone ko yava mu burwayi.

Umugabo wambaye ipantaro ya kaki n'umupira w'umweru n'ingofero y'umweru, bigaragara ko ari gusoroma imbuto asutamye, impande ye hariho igiti kigaragara ko cyumye.

Umugabo ugaragara ko ari gusoroma ikawa cyangwa se kwaha ikawa, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro igiye kuba igitaka, yambaye agapfukamunwa, ikawa ni ingirakamaro kubayihinze n'ingandurabukungu.

Ibiganza bibiri bigaragara ko biyoye imishogi y'urusenda rwa kamurari rwanitse, bigaragara ko uyu muntu ayoye iyi mishogi, ari kwerekana umusaruro w'urusenda, kugirango ngo abantu bayoboke kumurangurira, kuko ari rwinshi cyane.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye, tungurusumu, intoryi, inyanya, ibitunguru, ibitunguru salade na beterave.

Umwembe urimo imyembe yeze, hino y'aho hariho ibi ubwerezwa bw'ibigori, umwembe ufite imbuto zigiye kwera.

Umurima uteyemo ibigori bitangiye guheka, impande yabyo hariho ubwatsi bw'inka, hirya yaho hariho ahantu h'ikinani hadahinze, ibigori bitangiye kuzana ubwerezwa.

Ibigori bigaragara ko bihunitse mu buhunikiro bw'imyaka. Ubwo buhunikiro bushakajwe n'amabati y'umutuku. Buzitijwe n'amabati n'ubundi y'umutuku. Ubu buhunikiro ni bwiza cyane, burasobanutse.

Inyanya zigaragara ko zatewe ahantu heza, zigashyirwaho ifumbire nziza none zikaba zigaragara ko zitangiye gutukura. Inyanya zashoye neza bigaragara ko zigomba gutanga umusaruro ufatika.

Ibigori bimanitse bya nyakagori, ni bigori bya kera bahinga bikera vuba biba bifite isura isa n'umuhondo. Ni bigori byera ari bigufi bikera vuba.

Inkoko y'isake ifite umubyibuho ukabije kubera ko yagaburiwe neza, bigaragara ko iyi nkoko ifite ibiro kandi mu bijyanye no kuyijyana ku isoko ifite amafaranga menshi yariye intungamubiri zihagije.

Umugabo umwe n'abagore babiri bigaragara ko bafite amasuka bari guhingira imyaka, uwo mugabo yambaye ipantaro y'umukara, yambaye n'ikoti ririmo umweru n'ubururu. Abagore umwe yambaye umupira w'umweru uwinyuma ye yambaye umukara.

Umugore uri guca imyobo mu ntabire, yambaye igitenge cy’amabara ya move, yambaye umupira w’umutuku, yiteze igitambaro cy’umukara, ari guhinga imbuto runaka. Abanjije guca imyobo kijyambere ni nziza cyane.

Ibishimbo by'imiteja ni ibishimbo bigufi. Byera imiteja yo gukoramo imboga, byera ari ibishyimbo bigufi. Ntibabishingira. Imiteja ifite icyo imariye ubuzima bw'abantu, imiteja ni ikiribwa cyajya kuri buri funguro iryo ari ryo ryose.

Umugore wari uri gukura ibirayi ari kubitoragura, ari kubishyira mu mufuka. Ugiye kuzura. Yambaye ingutiya y'ubururu n'ishati y'umweru. Ibyo birayi abifashe mu ntoki zombi.

Avoka ni igiti cyiza gituma abantu batera imbere, iyo cyeze cyane avoka nyinshi umuntu ararya agasagurira n'isoko ,avoka ni igiti cyiza gituma abantu barya ifunguro rimeze neza, avoka umuntu akayikatira hejuru y'ibiryo, ubundi ifunguro rikaba rimeze neza.

Amatunda agaragara ko, bayubakiye n'imikwege ku biti, kugira ngo agire umusaruro mwiza, harimo amatunda atukuye, n'ayandi adatukuye. Amatunda ni intungamubiri, iyo umuntu ayariye, afite intungamubiri nziza mu buzima bw'umuntu.

Abagabo n'abagore bari mu cyayi bari gusoroma icyayi, bambaye imishumi iziritseho ibisobane, biri inyuma mu mugongo, ari gusoroma icyayi bari kugitereramo, kuko ntago batereka ibisobane hasi, icyayi ni intungamubiri mu buzima bwacu.

Inka igaragara ko yorowe kijyambere bigaragara ko iri ahantu heza, hirya yaho hari inka y'umukara iyi nka ikaba ifite amabara y'umukara n'ay'umweru, mu gutwi harimo iherena bigaragara ko ifite ubwatsi buhagije kuko imeze neza rwose.

Ibigori biri mu mufuka wa kirojana wuzuye, n'ibindi bigori by'amahundo bisutse hasi, harambitseho undi mufuka wo kubitoraguriramo.

Umugore ufashe ishu yambaye umupira w'umukara, akenyeye igitenge cy'umutuku, yambaye ingofero yafunze n'igikumwe, inyuma y'uwo mugore hariyo ibiti.

Umurima ugaragara ko uteyemo imyumbati, hirya ya wo hariho ahantu hagaragara ko batahahinga, hakaba hahateyemo, hakaba hagaragara ko himejejemo ibiti.

Intoryi ziri mu bwoko bw'imboga dukoresha mu ifunguro, dukoresha mu ifunguro ritunga ubuzima bw'abantu. Ziri mu bwoko bw'imboga bushobora gutuma ubuzima bw'umuntu bumera neza. Intoryi zifite intungamubiri zifite icyo zimaze mu mibiri.

Abagore bagaragara ko bari guhinga, bafite amasuka. Bakenyeye ibitenge bigiye bitandukanye, inyuma yabo hariho abantu benshi, bagaragara ko bahagaze ahantu hamwe.

Amagi ni inkoko ziyatera. Amagi afite icYo amariye abantu benshi muri rusange, yaba ku bana bato cyangwa se ku bantu bakuru. Amagi atuma umubiri w'umuntu umera neza, amagi atuma umuntu adakunda guhura n'indwara, kubera ko afite ubuzima bwiza.

Umugabo uhetse ipombo, yambaye ipantaro y'umweru yambaye n'umupira w'umweru, ahetse ipombo y'umuhondo ari gutera umuti mu mbuto. Hirya y'aho hari ibiti bibiri bihagaze muri izo mbuto.

Ipera ni urubuto ruri mu bwoko bw'imbuto butunze imibiri y'abantu. Ipera rigaragara ko ryeze, rifite imbuto zisa n'umuhondo. Inyuma yaho hakabaho amababi, amababi y'icyatsi. Ni ipera rimwe ribumbye irindi rikasemo igice.

Ibitunguru bya onyo ni ibitunguru bifite ubuzima bwiza ku muntu. Onyo iyo ikuze yarumije amababi, urayifata ukayikatira ku biryo ubundi ubuzima bukazira umuze. Ibitunguru bikorwamo ibintu byinshi cyane kandi ibitunguru bifite intungamubiri.

Ibijumba bigaragara ko byitwa mapfuruka. Ibi bijumba bigaragara ko ari byo bakoragamo imigati. Ibi bijumba bitera vitaminini, bifite imyunyu ngugu itera vitamine, cyane cyane abana. Ibijumba bisa n'umutuku, mu nda umuhondo.

Amajeri asoromye, afite amabara y'icyatsi. Ayo majeri atunze igihugu muri rusange, kandi afite intungamubiri ihagije.

Inyanya ziri mu gapaniye k'ubururu, umufuka w'umweru utanditseho imifungo ya puwavuro, impande z'uwo mufuka n'agapaniye hariho ibase y'umutuku, irimo ubusa.

Amashu ari mu murima agaragara ko yeze, aya amashu afite isura igaragaza ko nta mvaruganda bayashizeho.

Umugabo uri gusoroma icyayi. Yambaye umushumi uziritse igitebo kiri mu mugongo ,ari gutereramo icyayi. Yambaye ikoti ry'umutuku, yambaye ingofero y'ubururu, yambaye ishati y'umweru.

Abagabo n'abagore bigaragara ko hari inama yateranye yo guhurira ku gihingwa cy'imboga, bigaragara ko bari ku gihana ho, uko baza ku kiganiraho uko baragihinga, baje kureba igishushanyo mbonera cy'uko baragihinga, kubera ko gihinzwe neza.

Imifuka irimo agahunga myinshi igerekeranye, ni agahunga gakoze mu bigori. Ibigori ni ingirakamaro kuko babikoramo agahunga gatunze hafi isi yose muri rusange, agahunga ni keza cyane.

Amateke ya mugumba ari mu ibase, agaragara ko ajyanye n'ibinyamafu. Amateke aafite intungamubiri ku buzima bw'umntu. Amateke ni igihingwa gihingwa mu misozi, gifitiye abanyarwanda benshi akamaro.

Ibigori ni igihingwa cyiza gitunze Abanyarwanda muri rusange, ibigori iyo bimaze kwera babirya byokeje cyangwa se bakabiteka mu nkono ari bibisi byamara kuma bakabihunguramo impungure. Bigaragara ko bitunze abantu benshi muri rusange, ibigori ni ingirakamaro.

Umugore wunamye mu kiraro cy'ingurube ari kuyigaburira, ingurube iri kurya, kandi uyu mugore na we ayifashe mu mugongo, kubera ko yishimye uko iri kurya, kandi nawe ari guseka. Yambaye igisurubeti cya kaki na bote z'umukara.

Amapera bahaguranye n'amababi akaba atari yera neza, rimwe rirasatuye bigaragara ko ritari ryakeze neza, ariko ipera rigaragara ko rifite intungamubiri muri rusange mu bijyanye n'imbuto.

Umukecuru wicaye ari gucuruza amashu, yambaye umupira w'umutuku, yiteze igitambaro cy'umutuku, inyuma ye hariho umugore wambaye umupira w'umutuku, ingutiya y'umutuku, yikoze mu mufuka. Impande ye hariho umugore wambaye umupira w'ubururu, ahetse umwana mu mugongo, amashu arambitse ku kameza.

Voka zigaragara ko zihiye kubera ko imwe isatuyemo kabiri, ifite urubuto ruringaniye ikaba ifite umuhore munini. Ni imbangurirane kuko voka zimbangurirane nizo zigira umubiri munini kuko aba ari voka zikoze neza.

Abagabo babiri bari gupakira imodoka. Umugabo umwe ari hejuru undi ari hasi. Uwo hasi ari kumuhereza igitoki ari gupakira mu modoka. Mu modoka harimo n'imifuka ine ipakiyemo avoka, hariho n'umugore uhagaze impande y'iyo modoka n'inzu bari gukuramo ibyo bitoki.

Umugore n'umugabo bari gucuruza ibihaza hirya yabo hariho abagore babiri bicaye bari gufata ibyo bihaza bari kubibaza ibiciro, uwo mugore n'umugabo bambaye imyenda itandukanye, umugore yambaye ishati y'umweru, umugabo yambaye ishati y'umutuku.

Intoryi ziri mu ibase. Iyo base isa n'mutuku， izo ntoryi ziri mu bwoko bw'imboga， impande y'izo base hariho indobo y'umweru.

Urusenda rufite amababi y'icyatsi, rukaba rufite urusenda rutukuye rusa n'umutuku, rukaba rufite n'amababi y'icyatsi.

Umugabo uhagaze hagati y'ibigori afite igihaza mu ntoki, yambaye ishati y'umweru bigaragara ko ari kwerekana ubwiza bwa kino gihaza.

Umugabo uhagaze impande y'imyumbati, impande ye hariho umunzani w'isahani, bigaragara ko ari wo apimaho imyumbati ,apima ari gupima ku kilo.

Inkoko iteretseho ishashi irimo ibinyomoro byuzuye iyo shashi. Kuri iyo nkoko hateretseho ibindi binyomaro. Impande z'aho hariho imyembe na wotameloni ikase, imwe ikase izindi zidakase.

Ibigori bigaragara ko byeze byahinzwe, bigaragara ko byahinzwe kijyambere, ibigori byahinzwe bishyizweho ifumbire mvaruganda n'imborera, kuko bigaragara ko bifite umusaruro mwiza ushimishije, kuko ikigori cyareze kigeze aho gisa nk'aho kisatuyemo uruhu.

Umugabo bigaragara ko ari gutekera inyanya mu mifuka y'ifarini. Umugabo yejeje umusaruro mwinshi amaze gutekera imifuka ine yuzuye. Ni inyanya zihishije neza zigiye kugemurwa ku isoko. Ni umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Isoko ririmo imbuto zose zitandukanye, amaronji, ibinyomoro, imineke, inanasi, inyanya, harimo n'ibiribwa birimo intoryi, harimo amaronji, harimo na kokombure.

Ibirundo bigiye bitandukanye by' ibirayi bisutse, ibirundo bitutse bitandukanye, buri mucuruzi ahagaze impande y'ikirundo cye cy'ibirayi aho acururiza, umugore wambaye umupira w'umuhondo yicaye ku kirundo cy'ibirayi bye.

Abagore bambaye imyenda igiye itandukanye bari gukura ibirayi. Bambaye ibitenge birimo ubururu, umuhondo n'umutuku. Bambaye imipira y'ubururu. Bakenyeye n'ibitenge by'icatsi. Bari kubikura ibirayi, bari kubirunda hamwe.

Imyumbati ikuye, impande yayo harambitseho ibiti by'imyumbati byo gutera. Hirya yaho hariho imyumbati idakuye ifite amababi y'icyatsi.

Amateke y'amazayire, ni amateke bakunda kwita inyobera, abanyarwanda benshi bakunda kuyakoresha, kandi afite intungamubiri kuko ari mu bitera imbaraga. Abantu benshi bakunda kuyarya, kuko atera ubuzima bwiza.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye bigaragara ko bari guca imirongo yo guteramo imyaka, bambaye imyenda irimo icyatsi, umutuku, n'umukara n'umweru.

Inyanya ni igihingwa gifitiye abanyarwanda akamaro. Ni igihingwa gifitiye ubuzima bw'umuntu akamaro, kuko mu ifunguro rya buri munsi duhura na ryo, umuntu arizifashisha. Zifitiye igihugu akamaro n'abanyarwanda muri rusange.

Umwembe ni igiti cyera imbuto zifitiye ubuzima bw'abantu akamaro. Uyu mwembe ugaragara ko weze washoye ugashora uturutse no hasi. Imyembe iri ubwoko butandukanye, imigufi n'imiremire.

Umwana uri gutambuka afashe agafuka ari kuza ahantu hatanditse imyembe n'urusenda. Imbere y'agafuka gatanditseho imyembe n'urusenda, harambitseho inkoko n'udufuka tubiri twa buce ngende turimo ibintu.

Abagabo babiri n'umugore umwe, bari kubagara ibishyimbo. Umugore ari gukonza n'isuka, abagabo bakabagaza intoki, hirya yabo hariho ishyamba, impande y'iryo shyamba, hariho inzu y'amatafari adahiye.

Amateke agaragara nk'inyobera akaba ari ku kintu kimeze nk'inkoko, akaba amwe atonoye hejuru y'atonoye, hakaba hariho amateke adatonoye kandi ari ku mice yabo, ay'amateke aryoha kubi.

Abagore bari gusoroma icyayi, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bambaye ibitambaro by'umweru n'iby'umukara, bafite ibitebo bari gusoromeramo icyayi, bafite n'indiga bari gusumesha.

Ibigori bigaragara ko bitabonye ifumbire nziza, bikaba bisa n'umuhondo. Ibigori byabuze ifumbire bigaragara ko bitafite ikigori cyiza. Ibigori bidafite ifumbire mvaruganda bisa n'umuhondo.

Umugore uri muri pepiniyeri. Ari gushyira itaka mu bihoho. Yambaye ipantaro y'umukara n'umupira n'igitambaro cy'umukara. Impande yaho hariho ikinani kidahinze.

Iduka rigaragara ko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Hari kugaragaramo udupipiri turimo amavuta y'ubuto, harimo umuceri, harimo na kawunga n'umunyu. Ibyo byose bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo twabonye amafaranga yo kujya kubihaha.

Ibitoki bitondetse ari byinshi, bigaragara ko biri mu isoko. Ibitoki by'inyamunyu bifite isura ko byeze. Ibitoki bifite akamaro mu mirire abanyarwanda bakunze kwifashisha, mu ifunguro ritunze abanyarwanda.

Abagabo batatu bari mu murima, bari kubagara ibishyimbo. Hirya yabo hariho amazu atatu, hino yazo hariho n'umusarani.

Voka n'igihingwa, abantu benshi bahuriyeho barya kandi voka itunze abantu mu mavitamini, mu bijyanye n'amavuta, mu bijyanye n'intungamubiri.

Umugabo ugaragara ko ahagaze mu bigori, agaragara ko amajije gukera kameroni akaba ayifashe mu ntoki, yambaye ishati yu'mweru n'ingofero y'umukara.

Igihingwa cya voka kiri mu bwoko bw'impakwe, iyo voka iyo yeze inyuma isa n'umukara， mu nda isa n'umuhondo. Iyo voka iyo yeze barazihanura， bakazitara zamara gushya， bakazirya.

Isorori irimo amaronji atonoye. Impande y'isorori hariho amaronji adatonoye atanu. Amaronji afite intungamubiri mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi.

Imiteja igaragara ko ari imiteja iyi baryamo imboga, iyi miteja idasarurwa ngo igire ibishyimbo byo guteka, ibishyimbo by'iy'imiteja, ntabwo bakunda kubirya.

Pavuro ni igihingwa gifitiye abanyarwanda akamaro no mu bindi bihugu muri rusange , ni igihingwa kigaragara nk'aho ari urusenda ariko ntigisharira, kugitegura mu mafunguro usanga gifite intungamubiri n'impumuro nziza, mu byo umuntu aba yateguye guteka.

Ibishimbo bigufi bifite isura nziza bigaragara ko bifite ifumbire ihagije, bigeze igihe cyo kubisoroma umushogoro kuko umushogoro nawo uririmo mboga zifitiye abanyarwanda akamaro. Kandi bikagira n'umusaruro mwiza bifite uruyange.

Ihene zigaragara ko ziri mu ru, mu rugo zizi ziri ahantu hazitiye. Ihene zisa n'umukara ,izindi zisa n'umweru, n'umukara, izindi zifite ibara ry'ikijuju. Izo hene zikaba ziziritse ku biti.

Abantu bagaragara ko baje bambaye iniforume ahantu hahinzwe ibishyimbo bigufi, bigaragara ko ari abashinzwe ubuhinzi, kubera ko bambaye imipira y'icyatsi. Hagati y'ibyo bishyimbo hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umukara, ari kubyitegereza uko bihinzwe.

Abagabo babiri bafite ibitebo, bari gusoroma icyayi bambaye amashati y'umweru n'ay'umukara.

Ibitebo bine birimo imbuto zitandukanye, bikaba birimo amaronji, birimo indimu, birimo n'imyembe. Hasi hari umufuka usutseho amaronji.

Imifuka itanu irimo amasaka y'amamera n'umufuka urimo ibishyimbo n'imifuka itatu irimo ibigori, ikaba iteretse hasi ku isima, hakaba hariho n'umufuka urimo ubusa.

Ibuhinzi bw'imboga z'amashu bumaze guteza abahinzi imbere. Ubwo abagore batandatu bari kubagara amashu, bigaragara ko bari mu ishyirahamwe. Bambaye ibitenge by'ubururu, n'iby'umutuku, n'iby'umuhondo...

Amapera atanu. Ane asa n'icyatsi, rimwe rikasemo kabiri, mu nda risa n'umutuku. Akaba ari mu gitebo.

Umugabo uteruye agatete karimo inyanya, amaze kwaha harimo inyanya nyinshi zitukuye, ari mu murima n'abandi bakozi babiri bari guhaha inyanya, harimo n'izindi nyanya zitarizera.

Urugemwe rw'umwembe rugaragaza umutwe usa n'umutuku iyo rukimera, umutwe warwo uba usa n'umutuku, amababi yo hasi asa n'icyatsi, ukera umaze gukura, waravuye mu bugemwe.

Abagabo batatu bagaragara ko bishimiye ubuhinzi bwabo bw'ibigori. Bahagaze mu murima bazamuye amaboko yabo hejuru bafatanye urunana kubera ko bari mu muririma wabo bahingamo, imyaka ikaba imeze neza.

Imyumbati igaragara ko imaze iminsi ibiri ikuye, ikaba irambitse ahantu runaka, bakaba bitegura kuyitonora cyangwa se kuyanika, kugira ngo bayikoremo ubugari cyangwa se ari imiribwa, isanzwe idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abagore babiri n'umugabo umwe bagaragara ko bahagaze mu murima w'amashu. Baciye amashu buri wese afite ishu, ishu, ishu. Bikaba bagaragara ko bayafatanyije. Abagore bambaye ibitenge bitandukanye, uwo mugabo yambaye bote n'ipantaro n'ingofero y'umutuku.

Amacunga ya orange n'mbuto zifasha abantu m'ubuzima bwa buri munsi. Tuyasanga mu maduka bayacuruza akadufasha mu kugirango tugire ubuzima bwiza, amacunga ya orange umuntu ararya kumva afite ubuzima buzira umuze. Amacunga n'imbuto zujuje ubuziranenge kandi twifashisha.

Abagabo babiri, bagaragara ko bambaye impuzankano y'abanyururu ya orange, bagaragara ko bari guca voka ziri mu giti.

Ibirayi bitunze abantu benshi. Ibirayi babitekamo imvange. Ibirayi bakabitekamo ifiriti. Ibirayi ni ikiribwa gitunze abanyarwanda benshi.

Imbuto z'amaronji zihiye zikuye ku biti, izi ni imbuto zitunga abantu igihe icyo ari cyo cyose umuntu ari muzima cyangwa arwaye. Zifite icyo zimaze mu mubiri w'umuntu zikorwamo na fanta za oranje zifite ubuzima bw'abantu.

Bwayisi ni amateke afite intungamubiri mu muntu, ari mu bijyanye n'ibitera imbaraga. Bwayisi ni amateke agendana no kuyagereka ku bintu bijyanye n'ibishyimbo.

Amagi afite intungamubiri mu buzima bw'abantu, amagi arera abana bari kwiga kurya, amagi afasha abantu mu kugira ubuzima bwiza. Amagi ari mu bintu bayashyiramo kugira ngo atagira ikibazo akameneka.

Amaronji n'imbuto nziza zifashishwa mu bijanye n'imbuto zitunga ubuzima bw'umuntu. Amaronji yari ku giti yareze yasana n'umuhondo yageza igihe cyo kugira ngo bayasarure.

Amapera abiri agaragarako ari ayo mu bwoko bw'umweru, hariho ipera rimwe risatuyemo ibisate bibiri. Aya mapera afite intungamubiri ku buzima bw'umuntu, ari mu bwoko bw'imbuto ziribwa n'abantu benshi.

Abagore n'abagabo bari mu murima uteyemo imboga. Bafite umupira uri kuvomerera izo mboga, urimo amazi. Bambaye ibisarubeti by'ubururu, bambaye na bote z'umukara n'iz'icyatsi.

Igitebo gitondetsemo imyumbati ya mporogoma, mporogoma ni imyumbati isa n'umutuku ku bihu, mporogoma igira umusaruro mwiza kandi ikaryoha, ikaba iryoha ku bishyimbo.

Inkwavu ni amatungo magufi yororerwa mu biraro byitwa ibibuti. Inkwavu ni amatungo magufi yororoka vuba kandi agafasha umuryango kwiteza imbere kandi inkwavu ni amatungo atuma urugo ruva mu bukene vuba.

Abantu bagaragara ko baje gufata ibiti byakuwe muri pepiniyeri. Barahagaze, ni abagabo benshi, hagati hahagazemo umugabo wakuyemo ingofero, bigaragara ko ari we uri kubaha amabwiriza y'uko ibyo biti babitera.

Abagore n'abagabo n'abana bambaye ubupfukamunwa, bari mu bigori bifite amababi atatu, bari gushyiraho imvaruganda. Bigaragara ko byari byabaye umuhondo, nibamara gushyiraho imvaruganda, birahita byirabura.

Abagabo babiri bari mu murima w'ibigori byeze, ibigori bigaragara ko bari kubisarura, abagabo babiri umwe yambaye igisarubeti cy'ubururu, undi yambaye ipantaro ya kaki n'umupira urimo imirongo y'umukara n'umweru.

Umugore uri guseka yishimye, afite mu biganza bye ikawa mu ntoki, bigaragara ko ashimishijwe n'umusaruro yakuye ku ikawa, ikawa n'igiti gitangaje kuko giteza abanyarwanda imbere n'igihugu muri rusange.

Umugabo umugore bari mu mu biti bya voka umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, n'umugore ukenyeye igitenge cy'ubururu n'umupira w'umweru, bafite indiga ziri gukonera amatabi ya voka, voka ni ukuyikuraho amatabi kugirango yerere hejuru.

Umugabo uteruye agapaniye kuzuye inyanya, bigaragara ko ari kuva mu murima ari kujya kuzitereka ku ruhande, bigaragara ko ari mu nyanya ze zeze, harimo izitukuye hakagaragaramo n'izindi nyanya zikiri ibitusha, hirya ye bigaragara ko harimo n'abandi bantu bari kumufasha kwaha.

Inkoko zigaragara ko ari inkokokazi zivanze n'amasake, inkoko zisa naho ari ibara rimwe kandi izi nkoko zikaba ziri mu bwoko bwadendo. Izi nkoko zitera amagi ariko ntabwo zirarira izi nkoko ziri mu bwoko bw'izi nyama.

Ibigori iyo byeze, barabisarura bakabyanika, barangiza bakabihungura, bakabikoramo ifu y'ibigori y'umutsima cyangwa se iy'igikoma.

Imyumbati ikuye, isutse ahantu hamwe, impande yaho hariho ibyuma bibiri. Iyo myumbati ikaba yakubaguritse, kubera ko bayisutse ahantu hari ibyuma.

Umugore uhagaze mu murima urimo ibigori, afite ibigori bibiri mu ntoki bitonoye, yambaye ikoti ry'umweru yiteze n'igitenge cy'umweru mu mutwe, inyuma ye hariho ibigori mu murima munini.

Ibihaza bifite amabara y'umweru n'ay'umukara, hirya yaho hariho igitunguru. Ibihaza ni ikiribwa gitunze abanyarwanda, igihaza, ibihaza ni igihingwa gitunze abantu muri rusange.

Itabi ry'ipera ririho ibitushi bine bitari byera, amapera iyo yeze ni kimwe mu mbuto zikunzwe kuribwa, zitera intungamubiri mu buzima bw'abantu.

Umugabo uhagaze mu bigori. Ari kubyicira. Yambaye ipantaro isa n'ubururu, yambaye umupira w'umutuku, urimo amabara y'umukara. Afashe ibigori mu ntoki yarangije kurandura. Inyuma ye hariyo ibiti bisa bifite amabibi y'icyatsi.

Ahantu hagaragara ko ari ku ikusanyirizo ry' ibira by'ibirayi bya Kuruseke. Ibirayi bikaba bidufatiye runini mu mibereho yacu ya buri munsi ,ndetse n'ababihinga na bo bikabazamura, bigatuma bazamuka mu bukungu.

Intara iriho avoka n'imineke. Izo avoka zikaba zisa n'icyatsi. Imineke isa n'umuhondo. Avoka ni imbuto umuntu akoresha igihe ari ku ifunguro, agafata avoka akayikekera ku biryo ari kurya.

Ububiko bw'birayi by'umubeno, ibirayi biryoha mu nda biba bifite isura isa nk'umuhondo, bifite intungamubiri mu bijyanye n'ibitera imbaraga, ibirayi by'umubeno n'ibirayi bigezweho ubu , kuko aribyo abantu benshi basigaye bahaha.

Inyanya zir'ubwoko bwinshi iyi ni mushingiriro n'inyanya zera zishingiriye, kandi zikagira umusaruro mwinshi. Inyanya za mushingiriro zera inyanya zidufitiye akamaro kenshi mu mubiri, kandi zigahingwa ahantu hameze neza zikaduha umusaruro mwiza.

Umugore uteruye ibase, ari kuvomerera imbuto. Yambaye ingutiya isa n'ubururu, irimo amabara y'umuhondo. Yambaye umupira w'icyatsi ushushanyijeho ibendera ry'igihugu. Yiteza igitambaro cy'umukara, impande ye hari imbuto za puwavuro ziri kwera.

Umugabo uhagaze mu nyanya wambaye isurubeti y'icyatsi, afashe urunyanya mu ntoki rweze. Bigaragara ko ahagaze mu nyanya za mushingiriro. Zigaragara ko zeze. Harimo n'izitarizera. Yambaye agapfukamunwa k'umutuku bigaragara ko ari umuhinzi wazo wabihuguriwe.

Abagabo babiri n'abagore bane, bahagaze ahantu hamwe, bigaragara ko basa nk'abari kujya inama y'itsinda, kugira ngo barebe uko bakwiteza imbere.

Abagabo n'abagore bahagaze impande y'intabire, buri wese afite agafuka karimo imbuto y'ibirayi, bari kwitegura kujya mu ntabire, bagatera ibirayi.

Umugore wunamye uri kubagara indabo. Impande ye hariho voka y'urugemwe, yambaye umupira w'icyatsi, igitambaro cy'umutuku, ingutiya irimo amabara n'agakapu yambaye mu nda.

Igiti kigaragara ko ari umwumbati, washoye imyumbati myinshi, umwumbati ni igihingwa ngandurabukungu, umuntu ufite umumbati iwe mu rugo, aba afite ibyo ku kurya...

Indimu n'imbuto umuntu yifashisha yarwaye cyane cyane inkorora cyangwa se afite ikizibakanwa. Indimu n'imbuto zikoreshwa ahantu hose, zikorwamo amaji cyangwa se amafanta n'izindi ji zigiye zitandukanye.

Abantu bagaragara ko bari gukora umuganda, harimo abaturage bambaye imyenda igiye itandukanye, hagaragaramo abasirikari bambaye impuzankano, hagaragaramo abaporisi nabo bambaye impuzankano.

Umugore wambaye ibitenge by'umutuku ,ari kugenda atereye isuka ku rutugu agiye guhinga ,imbere ye hariho umurima w'ibigori, hakurya ye hari agasozi kateyeho ibiti by'intusi.

Umugore uhagaze mu murima w'ibigori ari gutonora ikigori, kugira ngo arebe ko byeze atangire guca ajye kurya, yumve ko yavunikiye ukuri ari guseka kubera ko asanze byeze.

Ipapayi ni igiti cyera amapapayi afite intungamubiri mu buzima bwacu; ipapayi rifite ubuzima buzira umuze mu mubiri w'umuntu, rifite amapapayi yeze asa n'umuhondo n'andi asa n'icyatsi kubera ko atari yera.

Indobo y'umweru irimo igisate cya wotameloni ikaba ipfundikiye. Ikindi gisate kikaba kiri mu ndobo y'umweru ipfunduye. Wotameloni ni imbuto umuntu yifashisha arwaye, kugira ngo yoroshye mu nda. Ni immbuto iri mu rwego rwo hejuru mu bijyanye no kubaka ubuzima bw'umuntu.

Amateke ya bwayisi afitiye abantu akamaro. Amateke yabwasi, ari mu binyamafu bifite intungamubiri mu buzima bwacu, mu bitera imbaraga kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Iyo yayariye yumva afite imbaraga, kuko biba ari ibintu bikomeye mu mubiri.

Abagore babiri, umwe yari afite isuka yikoreye ibyatsi yambaye umupira w'umuhondo, undi mugore yambaye isurubeti y'umukara n'umupira w'umuhondo, akaba afite agatebo kariho ibishyimbo.

Umugabo ufite isuka ku rutugu, ari kuvugira kuri telefone. Yambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umukara. Ari kuvugira kuri telefone ari guseka. Ahagaze impande y'umurima w'ibigori. Bigaragara ko yishimye, ibyo ari kumva muri telefone bimushimishije.

Inyanya n'intoryi bisutse ku ihema, bigaragara ko umuhinzi wazihinze ari gusarura asuka ku ihema. uruhande rumwe ruriho inyanya, urundi ruhande rusutsemo izo ntoryi.

Abagore bari gucuruza imbuto zigiye zitandukanye. Amaronji, inanasi, imyembe, marakuca, imineke n'indimu. Abo bagore bambaye imyenda y'imyeru, biteze n'ibitambaro by'umutuku n'umukara.

Umugore uhagaze mu cyayi ariko akaba atari yatangira gusoroma, ari kwitegereza hakurya. Hirya ye hari ibirunga bigiye bitandukanye, yambaye ijipo y'umuhondo n'umupira w'umukara n'igitambaro cy'umweru.

Urunyanya ni igihingwa cy'ingandurarugo, urunyanya rufite ubuzima bwiza mu bantu. Urunyanya ni ingengabukungu mu bantu. Urunyanya rureze hariho n'ibitusha bitari byera. Rugaragara ko rwahingishijwe ifumbire mvaruganda hamwe n'imborera, kandi rugaterwa umuti mwiza.

Amatunda atanu agaragara ko agaragara ko yeze. Itunda rimwe rikasemo ibice bibiri. Amatunda afite akamaro ku buzima bw'umuntu, cyane iyo umuntu arwaye, atuma umuntu agarura ubuyanja.

Umugabo ufashe imyumbati yambaye umupira w'icyatsi, inyuma ye hariyo umugabo wambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara. Inyuma y'uwo mugabo hari undi mugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira urimo imironko y'umutuku n'umuhondo, afashe umufuka mu ntoki yunamye.

Abagore bari kubagara amashu abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, kandi amashu ari mu bwoko bw'imboga. Abo bagore bambaye imyenda irimo amabara y' ubururu ,arimo umutuku harimo n'ay'icyatsi n'ay'ubururu.

Abagore babiri bahagaze imbere y'imitwaro myinshi y'ibisheke. Hariho n'umugore umwe uri guhambura ibisheke agiye kubagurisha. Impande y'abo bagore hariho akazu ka MTN. Hejuru y'ibyo bisheke hariho igishushanyo cya kovidi cumi n'icyenda.

Abagabo babiri bahuriye ahantu hamwe, bakaba bari kureba muri terefoni, umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ufite ibase mu ntoki irimo imyenda, umugabo wambaye amashati y'umutuku n'ipantaro y'umugabo, bari kuganira kureba muri telefoni.

Igihaza ni igihingwa gitunze abantu benshi, igihaza kiba gifite imbuto mu nda zitwa inzuzi, izo zigira vitamini nyinshi mu mubiri w'umuntu cyane cyane ko igihaza ku ifunguro usanga ari ikiribwa cyoroshya mu nda, kigatuma ubuzima bw'umuntu bugenda neza. Igihaza kiba gifite amabara y'umukara n'umweru ,ni igihaza kigira uburyohe mu nda ugasanga gisa n'umuhondo.

Igihingwa cy'amajeri ni igihingwa gifite intungamubiri ku buzima bw'abantu. Amajeri ari kugaragara ko atarera kuko iyo yeze ahindura ibara. Aya majeri avuye mu ruyange agomba kuba yeze neza, akitwa urunyogwe, yava mu runyogwe akitwa amajeri yumye.

Ibigori biri mu ndobo iruhande rwaho hari agafuka karimo ibishyimbo.

Imifuka myinshi iteretse ku ihema ry'ubururu, irimo ibishyimbo by'ubwoko butandukanye, harimo n'ibigori. Iyo mifuka ikaba isa n'umweru, harimo n'uw'umuhondo hamwe n'uw'icyatsi.

Inzuzi z'ibihaza zifite intungamubiri. Inzuzi ziva mu bihaza bikuze. Inzuzi zigaragara ko zifite imyunyungugu ituma abantu bagira ubudahangarwa mu mubiri. Inzuzi ziva mu bihaza byahindutse umuhondo bigaragara ko bikuze.

Umugore wicaye ari guhungurira ibigori mu ibase y'icatsi, impande ye hariho ibigori birambitseho yambaye ijipo ya move, yambaye n'isengeri igiye kuba umweru. Ibigori ari kugira ngo ajye kubibeteshamo ifu y'igikoma.

Umugore uri kugosora ibigori, ahagaze ku ihema, akenyeye igitenge cy'umutuku, yambaye ishati y'amabara, yiteze igitenge cy'ubururu, hirya ye ku ruhande hariho amahema arimo ibindi bigori bizingazinze, iruhande hariho inzu y'amabati y'umweru, isize n'irangi ry'umweru.

Umufuka urimo ibishyimbo bya nyirakivuzo. Ni ibishyimbo byera ku bwinshi iyo wabifumbiye, kandi bifite intungamubiri ku buzima bw'umuntu.

Igihwagari cyeze kiba gifite impeke zisa n'umukara, bigaragara ko bari kugihungura kugira ngo bazabone uko bakinyuza mu ruganda, kivemo amavuta aya duteka.

Ubunyobwa bweze basaruye burunze hamwe, bugaragara ko bwashoye, ubunyobwa bubyibushye, ubunyobwa buhinzwe ahantu heza bwera ubunyobwa bunini, ku buryo umusaruro uba mwinshi kubera uko babufumbiye .

Imifuka irambitse myinshi cyane, isutseho ibishyimbo by'ubwoko butandukanye n'amabara agiye atandukanye, harimo ibishyimbo by'urunyumba, ibishyimbo bigufi, ibishyimbo bisa n'umukara, n'amajeri, imbuto izo ari zo zose zisutse kuri iyi mifuka.

Imifuka ibiri y'ibigori by'amahundo ipakiye yuzuye neza, ibi bigori bigaragara ko byanyuzwe bishyizweho imvaruganda n'ifumbire mborera. Bigaragara ko bifite umusaruro mwiza ko byafumbiwe neza kandi bigaragara yuko nta byonyi byigeze bihura nabyo.

Ibishyimbo bigaragara ko bisa n'umutuku, bifite intungamubiri gusumbya ibishyimbo bisa n'umweru. Ibishyimbo bisa n'umutuku bifite intungamubiri ihwanye n'iy'inyama. Ibishyimbo bitukura ni ibishyimbo byiza bifite intungamubiri mu buzima bwacu.

Ahantu bagiye kubaka inzu, hasutse umucanga wa giciye. Hubatse n'amabati azazenguruka inyubako.

Umugore wambaye isengeri y'umweru, wambaye n'ishapure, ari guseka, afashe ibyatsi mu kuboko, agiye kubigabura. Ahagaze mu murima yahiyemo ibyo byatsi.

Imifuka iririmo ibitonerwa by'umuceri，iyo mifuka ikaba imwe yarapfumutse， bikaba biri kuvamo bikagwa hasi.

Ubunyobwa buranduwe ari ko butangiye gushora bugaragara ko bwaranduwe ari imishoro.

Igihwagari ni igihingwa cy'imisogwe ivamo igakorwamo ubuto, bwitwa igihwagari, ubwo buto bufite intungamubiri ihagije ku buzima bw'umuntu.

Ibigori biteye ku mirongo, bigaragara ko bitari byatangira guheka, ni bwo bitangiye kuzana ubusenzi. Ibigori bigaragara ko bifite ifumbire ihagije n' imvaruganda ihagije, kuko bifite isura isa neza.

Umugore uhagaze mumasaka ari kureba ko yeze, yambaye igitambaro cy'iroza mu mutwe yambaye n'ishati y'umukara.

Ibigori bya kinyarwanda byera bifite amabara agiye atandukanye. Amabara y'umukara, amabara y'umutuku, n'amabara y'umweru, n'ay'umuhondo. Biratonoye, barikwitegura kubipfundika kugira ngo bazabikoremo imbuto. Birambitse ku nkoko.

Umugore ufite isafuriya irimo ibishyimbo . Ari kubisuka hasi. Yambaye umupira urimo umuhondo n'umukara . Yiteze igitambaro k'icyatsi. Inyuma ye hariho umugore wikoreye umufuka ,impande ye hariho igare hariho igare.

Igikoresho gisutsemo ubunyobwa bukuwe mu bishishwa, impande z'ubutonoye hariho ubunyobwa bukiri mu bishishwa, bigaragara ko batangiye gutonora ubunyobwa, kugira ngo babupime babone umusaruro uvuyemo.

Ibihwagari ni igihingwa kivamo ubuto buno dukaranga mu biryo. Igihwagari gifite intungamubiri ya vitamini a. Igihwagari ni igihingwa cyera kikamera, gifite isura isa nk'ukwezi.

Abagabo bari mu byinarizo by'umuceri. Bari kubatura umuceri wo kujya gutera. Bahagaze aho bawinarije, bagiye kurandura ngo bajye kuwutera ahandi hantu bahinze ho gutera uwo umuceri.

Ubunyobwa bweze neza usanga bukeye. Ku buryo n'iyo bukaranze usanga bumeze neza kandi bufite impeke ibyibushye. Iyo bubese no mu mashini isanzwe ibubeta bwo gushira mu biryo, usanga bumeze neza kubera ko buba bwareze neza. Ubunyobwa ni tungamubiri ihagije

Imifuka irimo ibinyampeke, harimo ibishyimbo bisa n'umuhondo, ibisa n'umutuku, n'ibisa n'umweru. Ikaba ari imifuka ine.

Amasaka agaragara ko yenda gutukura. Nta bwo yari yatukura neza, ni ibitete. Asigaje nk'igihe cy'ibyumweru bibiri ngo abe yumye.

Abagore batatu bicaye mu bigorigori bahunguyeho impeke. Umugore umwe yambaye umupira w'umukara n'ingutiya y'umukara, undi yambaye ikanzu y'icyatsi, undi yambaye ikanzu y'ubururu.

Impeke z'ubunyobwa bubiri buratonoye, urundi ruheke nta bwo rutonoye. Urundi rukuyeho igishishwa rusatuyemo kabiri. Ubunyobwa ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abagore baje kugura ibigori bafashe inkoko, bari kurobanura ibyo baguze, kugira ngo babone uko babibetesha. Abo bagore bambaye imyenda itandukanye. Bambaye imipira y'umutuku n'ubururu, n'ibitenge by'ubururu, n'ibitenge by'umuhondo. Barunamye, bari kurobanurira ku ntara.

Igare rihambiyeho imitwaro ebyiri y'ibishyimbo bigufi, impande yaryo hariho imodoka ikinguye ikirahure.

Akabase gato gafite amabara y'icyatsi n'ay'umweru, gasutsemo ibishyimbo bya Nyirakivuzo, ni ibishyimbo biba byuzuyemo imyunyungugu, bifite intungamubiri yujuje ubuziranenge.

Abagore bigaragara ko bafite koperative y'ubuhinzi bw'ibishyimbo. Imbuto bahinga bayishize ku nkoko, bifotoza bose bafashe kuri iyo nkoko kugira ngo ibishyimbo bahinga bigaragare, abantu bazaze kuba bafataho iyi imbuto.

Umugore wicaye ku ihema ari kurobanura ubunyobwa budatonoye. Inyuma ye hariho uruzitiro rw'ibikenyeri. Hahagaze n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ikoti ry'umukara. Uwo mugore yambaye umupira w'icyatsi n'igitambaro cy'umweru.

Abagore bagaragara nk'abicaye, imbere y'aho bicaye hateretse imifuka irimo ibishyimbo. Mu bishyimbo harambitsemo igemeri ni yo barengamo bari guha abakiriya ibishyimbo.

Ubunyobwa bugaragara ko buhinze mu murima. Bugaragara ko bweze bugeze igihe cyo gukurwa. Amababi yabwo hejuru asa n'umuhondo, bugeze igihe cyo kubukura, bakabwanika, ubundi bakabona ububukoramo ubwo kuribwa.

Inkoko iriho ibishyimbo, bigiye gusa nk'igitaka birambitse hejuru yumufuka, impande zaho hariho ikintu gisa n'umuhondo.

Ibishyimbo by'indobanure by'amabara atandukanye. Ibishyimbo by'umutuku, iby'umweru, iby'umukara hamwe n'iby'umuhondo. Hirya y'aho hariho ibindi bishymbo by'indobanure biri mu twibo.

Ibishyimbo bigaragarako ari ibishyimbo bigufi biteye ku mirongo, ibishyimbo bigufi bigira umusaruro mwinshi iyo bihinzwe neza bigahana umwanya, bishora gusumbya na mushingiriro.

Umufuka urimo ibinyomoro byinshi cyane bitukuye. Hariho n'ibiri ku ruhande byamenetse bitatu. Ibinyomoro ni intungamubiri, iyo umuntu yabuze amaraso bamutegeka kurya ibinyomoro, kugira ngo yongere amaraso yo mu mubiri we.

Iduka rigaragara ko ririho ibijyanye n'imyaka. Hariho imifuka iteretse y'ibishyimbo, ibirayi, hariho abagabo n'abagore baje guhaha ibiribwa. Hariho umucuruzi w'umugore wicaye mu muryango, hejuru ye hariho umunzani umanitse.

Umurima uhinzemo ibihwagari. harimo ibihwagari bigiye kwera, bapfukishije imifuka y'umweru, ibindi bihwagari nta bwo byari byera, bifite amabara y'umuhondo, bikaba bikozwe nk'ukwezi, bifite intungamubiri nyinshi.

Imifuka iteretse irimo ibishyimbo bisa n'umweru, ibindi bisa n'umutuku, hirya y'aho hariho indi mifuka ibiri itari kugaragara neza, na yo irimo ibishyimbo. Ibishyimbo ni inyongerabuzima kuko ibishyimbo ari byo bigize umuryango.

Umurima w'ibigori, uriho ikigori gitonoye, gifite amabara y'umuhondo, kiratonoye kidakuye mu bihu neza, ikigori ni ingirakamaro.

Ibigori bigaragara ko byeze kandi byumije, ibigori, ibigori bigeze igihe cyo gusarurwa. Bigaragara ko igihe cy'isarura kigeze, bigacyurwa mu rugo.

Abagabo bagera muri batandatu n'umugore umwe, bigaragara ko bahagaze ahantu hari umuhanda. uruhande rumwe ruriho imifuka igerekeranye nyinshi, n'urundi ruhande na rwo rugerekeranye imifuka myinshi. Hariho umugabo urambuye akaboko. Uwo mugore akenyeye igitenge cy'umukara yifubitse n'agasharupe k'ubururu.

Umugabo uri kumanika ibigori, ari kumwe n'umugore w'umuhereza, uwo mugabo yambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umutuku, uwo mugore, umugore yambaye ishati irimo amabara y'ubururu n'ay'umuhondo, impande yaho hariho uruzitiro rw'amabati y'ubururu.

Umugore uri kugosora ibishyimbo ari kubigosorera ku ntara, yambaye ingutiya isa n'umuhondo irimo amabara y'ubururu, yambaye umupira w'umweru urimo amabara y'umutuku, yiteze igitambaro cy'umweruru yambaye n'ishapure.

Ibishyimbo bivanze, ubwoko bugiye butandukanye, harimo ibifite amabara y'umweru, ibifite amabara y'umutuku, bikaba bisutse hasi.

Umugabo uhagaze mu ruganda rurimo imifuka y'imiceri, yambaye isarubeti y'umweru, mu nda harimo ishati y'ubururu, yambaye n'ingofero y'ikasike y'umuhondo akaba afashe kuri iyo mifuka.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, bari gupakira imifuka irimo, bari gupakira imifuka, bari gutsindagira, basaruye ibigori.

Ibihwagari bihinze mu murima bigaragara ko byeze bigeze igihe cyo kubisarura. Ibihwagari bivamo amavuta y'ubuto dukoresha turi kurya, igihwagari kigira ubuto bwiza cyane bufite intungamubiri mu buzima.

Imirima yo hakurya no hakuno y'umugezi ihinzemo ibigori, bikaba byumye batari babi babisarura. Uwo mugezi uri hagati y'umurima wo hakuno nuwo hakurya.

Umugabo ugaragara ko ari kwayura ibigori byamahundo bisutse ahantu hamwe arikirundo, uwo mugabo yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku bigaragara ko afite umusaruro mwiza uhagije.

Umurima ugaragara ko uciyemo imirongo iteyeho ibishyimbo bigufi, bigaragara ko babiteye bakurikije santimetero runaka, kubera ko ari iyo gahunda bafashe yo guhinga, bigaragara ko ibi bishyimbo ari bigufi ariko akaba ari ibishyimbo binini.

Soya ni igihingwa cyiza kidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Soya ni igihingwa cyiza gifashije abantu mu bijyanye n'igikoma kukivanga n'izindi fu, bikabyara ifu ifitiye ubuzima, ifitiye abantu ubuzima bwiza. Soya ihinze ku murongo, ugashyiraho imvaruganda, bizana umusaruro mwiza.

Intonore zigaragara ko ziri mu bwoko bwa koruta, ziba zifite intungamubiri ihagije, kuko ziba ari iz'ibishyimbo bya kijyambere, kandi bya kizungu.

Ibigori biri mu gisobane. Bitatu biratonoye, kimwe nta bwo gitonoye. Ibi bigori bifite amabara abiri, ay'umweru n'ay'umuhondo.

Umugore wicaye ku ibuye ari kugosora ibishyimbo ku nkoko, yambaye imyenda y'umukara.

Ibihwagari bibiri basaruye birambitse hasi, bagiye kubikuramo imbuto bazanike maze ahasigaye babisekure mu isekuru nibamara kubitonora babikoremo amavuta yo guteka.

Ibigori bimanitse ahantu hameze nk'ubuhunikiro, ariko ibigori bikaba bigaragara ko ari byinshi cyane kandi byatanze umusaruro ufatika, ibigori biri m'ubuhunikiro bigahura n'imbeho cyangwa se n'akazuba gake nta nundwe ibigeraho.

Ibishyimbo by'indobanure birambitse ahantu hasobanutse. Ibi bishyimbo bigaragara ko ari imbuto y'indobanure. Ibishyimbo bisa n'umutuku birobanuye bitarimo ibipfu ni byo umuntu akoramo imbuto yo gutera ikazana umusaruro mwiza.

Inka nyinshi zifite amabara y'umweru n'ay'umukara, zikaba ziri mu ifamu baziragiye, harimo imbyeyi ndetse n'ibimasa.

Abagabo babiri bagaragara ko ari abaganga b'amatungo, bambaye amajire agaragaza ko bashobora kuba bafitanye imikoranire n'amatungo magufi. Bakaba bambaye imipira isanzwe, ariko inyuma hariho amajire abyemeza. Bakaba bari gukora no kuri izo nka bakingira.

Inka nyinshi ziri mu biraro byazo, imbere yazo hahagaze umugabo n'umugore bari kuzitegereza cyane, bigaragara ko bari kureba uko ubworozi bwabo buhagaze ni inka nziza zinogeye amaso.

Ingurube ziri kurya inyuma y'aho akaba ziri mu kiraro, izindi ziri hanze y'ibiraro, izo ngurube ni eshatu zitari mu kiraro .

Imwe isa n'umukara ishorewe n'umugabo, indi isa n'umweru n'umukara, akaba ari ikibamba ishorewe n'umusore impande y'aho hariho inzu y'amategura hirya y'aho hakaba hariho ibiti.

Umugabo wunamye ari kureba umunzani urambitseho akabase gato k'ubururu, karambitsemo umushwi w'inkoko, inkoko uyu mugabo ari kuzicuruza ku kiro, inkoko zisa n'umweru.

Umuganga w'amatungo magufi harimo n'imbwa, agiye kuyikingira yayifashe amatwi, uwo muganga afite ibipimo mu ijosi yambaye itaburiya y'ubururu n'agapira k'umweru, iyo mbwa ifite uruhu rw'isine n'ibara ry'isine n'iry'umweru.

Inka y'amabara y'umweru n'umukara, ikaba ihagaze impande y'umwana ufite igikosi, yambaye ishati y'ubururu, akaba ahagararanye n'iyo nka.

Inka irimo mu gipangu ifite amabara y'umukara nay'umweru, ikaba ihagaze ahantu hapavomye isima ikaba iri kunywa amazi mu muvure.

Amagi agaragara ko ari ahantu mu bubiko bayabikamo, abakeneye kujya kuyarangura bakayasanga bwarakusanyirijwe ahantu hamwe, amagi afite intungamubiri ku buzima bw'abantu bakuru ndetse n'abana.

Amahene menshi arimo imirunga. Aziritse ku biti binini bayazanye mu isoko . Ababa bazizanye ku isoko ni abagore n'abagabo. Abagore babiri begamiye ku biti biziritseho izo hene. Izo hene harimo iz'umweru, n'iz'umukara, n'iz'isine.

Ihene ifite amabara y'umweru, n'umukara. Ihagaze mu kinani igiye kurisha. Ihene ikaba hirya yaho hari agasozi.

Ibyana by'ingurube, harimo ibipfizi n'ibishashi biri kurya igiheri ibyana by'ingurube birabyibushye. Ingurube ni itungo ryororoka vuba rikabyara n'ibyana byinshi.

Inka zigaragara ko ziri mu ifamu. Zikaba zifite amabara agiye atandukanye, amabara y'umweruru, n'umukara, n'ay'isine, zigaragara ko zihagaze mu ifamu.

Abana babiri b'ihene bari kurisha ahantu hatari ubwatsi bwinshi, bigaragara ko hariho n'amabuye y'urusheregenye. Hirya y'abo bana b'ihene, hariho ibiti bibiri by'inganzamarumbo.

Umugabo ufite igitiyo uri kwegereza inka ze ibyatsi ngo bizigereho. Izo nka zifite amabara y'umweru n'umukara, uwo mugabo yambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara. Yambaye bote z'umukara n'ingofero y'igitaka, yambaye na ga mu ntoki.

Inka ziri kurira mu muvure zifite amabara atandukanye, zifite amabara y'umweruru n'ay'umukara, n'izifite ay'umweru n'ay' igitare.

Ihene iri mu ruzitiro, iri kuririsha ubwatsi. Inyuma y'iyo hene hariyo uruzitiro rw'ibiti, iyo hene ikaba isa n'umukara.

Inkoko nyinshi zigaragara ko zivuye mu bwana. Zigaragara ko ari inkokokazi, imishwi y'inkoko zijijutse, kuzorora ntabwo bigorana kuko ziba zimaze kuva mu bushwi bukiri butoya.

Ingurube ebyiri ziri kurira mu kiraro zishaka kuvamo ziri mu biraro byubakishije imbaho. Ingurube ni amatungo meza atuma twiteza imbere iyo tuzoroye ntabwo dupfa gukena cyane nk'umuntu utazoroye.

Ingurube bigaragara ko igiye kugira, gusa n'ibara ry'umukara ariko rivanzemo n'ibara risanzwe. Ingurube igaragara ko iri mu kiraro cyayo cyubakishijwe imbaho. Ingurube ni itungo rigufi, ariko riri mu matungo abyara ibyana byinshi.

Inka bigaragara ko iri kurira muri manjwari bayubakiye, impande yayo hariho inka y'amabarara y' umweru n'ay'umukara. Iyi nka igaragara ko imeze neza, ari imbyeyi.

Inkoko yo mu bwoko bwa sasu, ni inkoko y'inkokokazi, itera amagi afitiye abantu akamaro. Ni inkoko itararira amagi, ariko gutera ni iya mbere.

Inkoko zigaragara ko ari nyinshi cyane, inkokokazi akaba arizo ziganjemo, zitera amagi, inkoko ni ubworozi buteza abantu imbere, muri rusange ni itungo ukena ugahita urijyana ku isoko bitakugoye.

Abagabo babiri bateruye ibyana by'ingurube mu ntoki. Abo bagabo bambaye iniforume z'ibisurubeti by'icyatsi, bambaye n'ingofero z'icyatsi. Inyuma yabo hariho ikigega kijyamo amazi, inyuma yaho hariyo n'umugore wambaye itaburiya y'umweru.

Umugabo ari gufata ibyana by'ingurube byavutse, akabishyira ku mabere y'ingurube yabyaye, uwo mugabo yambaye ipantaro y'umukara, yambaye n'ishati y'umweru, ingurube iri kubyonsa iryamye, iryamye impande y'ikiraro cya yo.

Abagabo bambaye imyenda y'amashashi, bambaye na za ga. Bambaye ubupfukamunwa, bigaragara ko ari abaganga. Bigaragara ko hari umurwayi bari kwitegura kuvura.

Ingurube ni itungo ryiza cyane, ugura aricyana mu mezi make ugasanga ryabaye igisore ku buryo amafaranga uba wariguze mu minsi mike ashobora kwikuba kabiri, ingurube rero ni itungo rizamura iterambere mu rugo vuba kandi kuryorora kuba bari nko kwiteganyiriza.

Inka ebyiri zihagaze ahantu hari ibyuma. Inka imwe isa nk'umukara n'umweru, ikaba isize ibintu by'ubururu, ni umuti ishobora kuba irwaye indwara y'uruhu. Bakaba bayivuye bakayisiga umuti, indi ikaba isa n'umukara.

Inka zifite amahembe. Izo nka ni ebyiri, zikaba zifite n'amatwi, zikaba ziri impande y'ikiraro.

Inka bita inyambo, zigira amahembe meza ateze neza, inyambo ni inka nziza cyane, zibereye amaso, inka zitwa inyambo, ni inka zibereye abanyarwanda.

Inka iri mu bwoko bw'inyambo. Ifite amabara y'umweru n'ay'ikijuju. Inka ikaba iri kurisha ubwatsi, ikaba ihagaze mu kibuga. impande yayo hakaba hariho igiti.

Inka ebyiri z'umukara, ziri kurisha ubwatsi impande y'aho ibiraro byazo biri. Izo nka zikaba zigaragara ko ari imbyeyi. Hirya yazo hakaba hari igiti cy'ipoto kiriho insinga z'amashanyarazi.

Inka ziri kurya ibyatsi mu kibara. Harimo inka zifite amabara y'umweru n'ayumukara, n'izifite ay'umweru n'ayisine.

Inyana nziza cyane bigaragara ko imaze guhaga amata, inyana isa n'umweru hamwe n'isine. Iyi nyana igeze mu mezi abiri igaragara ko itigeze ibura amata yayo.

Umugabo uhagaze afashe ingurube, veterineri nawe asutamye ari guvoma umuti mu rushinge agiye gukingira ino ngurube. Ingurube bagomba kuyitera vitamini n'umuti w'uruhu kugirango ikure neza.

Umugore n'umugabo bahagaze mu nka nyinshi, umugore ari guhanagura inka ifite amabara y'umweru n'umukara, uwo mugore yambaye ingutiya y'umutuku n'ishati y'umukara, uwo mugabo yambaye ishati y'umweru, inka zigaragara ko ziri gukamwa zifite ingoma.

Inkwavu ebyiri zigaragara ko ziri kurya ibyatsi, zigaragara ko ziri mu kibuti cyazo, inkwavu n'amatungo magufi akemura ibibazo bitandukanye byoroheje, iyo umuntu ahuye n'ikibazo arazifashisha akajyana ku isoko.

Inkoko ebyiri zigaragara ko imwe ari isake, indi ari inkokokazi. Inkokokazi ikaba iri mu bwoko bwa saso.

Umugore uri guseka ateruye intama mu ntoki. Bigaragara ko yishimye, ahagaze imbere y'amazu asa n'ashaje. Hariho n'inzu y'ibyatsi, ya muviringo.

Intama irimo umurunga iziritse ahantu mu gikuyu. Intama isa n'igitare, ikaba iri a inyuma yaho hakaba hari uruzitiro. Urubariro ruri ruteyete mu biti bihateye ahantu iri hariho n'amabuye.

Inkoko ibundikiye amagi. Amagi y'inkoko iyo yahuye n'isake irayabundikira, noneho ikayaturaga, hakavamo imishwi, inkoko ikororokana. Inkoko ni itungo rigufi, rituma abantu biteza imbere, no mu mibereho ya bo ya buri munsi.

Umugabo uri kugaburira imishwi y'inkoko ibiryo byazigenewe. Iyo mishwi igaragara ko imaze kuva mu bwana, imaze nk'igihe cy'ukwezi. Iyo mishwi rero ni imishwi y'inkoko zitwa saso. Bigaragara ko zifite umuvumba wo gukura vuba kubera ibiryo ziri kurya.

Igihangara gifite isura nk'iy'umuserebanya. Kigenda kiri gukurura inda hasi, kigahora gifite umutwe uri kureba hejuru.

Uruyongoyongo ruri gutambuka mu gishanga. Ruri gutambuka mu bikangaga. Hirya y'aho hari icyuma gisa n'umutuku.

Igiti kiririmo udusimba dutanu, utwo dusimba tukaba dusa nk'inkende, tukaba turi mu giti gifite amashami.

Agasimba kameze nk'imbeba, ariko k'ubwoko bw'agacurama. Gafite amababa ameze nk'umutaka. Isura yako ikaba isa n'imbeba. Agacurama kagenda nijoro, gafite isura imeze nk'iy'imbeba n'amatwi nk'ay'ikibugubugu.

Icyumvu kiri ku giti, gifite amabara y'icyatsi n'ay'umuhondo. Cyizingazinze ku giti gisa n'umukara, icyo giti gisa n'umukara.

Igisiga cy'igishuhe gitera amagi mu kinani, ayo magi aribwa nk'ay'inkoko zisanzwe. Kuko kigaragara ko kigiye kumera nk'imbata cyangwa se dendo.

Agasimba k'amabara y'umweru n'umukara, gafite amaso manini. Gafite n'umurizo wibirinduye.

Igisimba kigaragara ko gifite amacumu ,gifite n'umunwa usongoye cyitwa ikinyogote, kigaragara ko kiri kugenda muri kaburimbo, impande yaho hakaba hariho ishyamba, ikinyogote ni igisimba giteye ubwoba.

Amapapayi ateye mu murima, impande za wo hariho insina, impande za wo n'ubundi hariho umusambi ufite amabara y'umweru n'ayumukara.

Inyoni yitwa mununi, ihagaze ku giti iri gushakamo udusimba. Mununi ni akanyoni gakunda kagira umunwa muremure.

Inkima ziri mu biti zihagazemo ziri gucunga aho zirajya gutonora ibigori. Inkima ni udusimba dukunda konera abantu iyo bejeje imyaka yabo.

Imparage igaragara mu ibara ryiza ry'umweru n'imrongo y'umukara. Imparage ni inyamaswa iba mu ishyamba, abakerarugendo iyo baje gusura ingagi, na zo barazireba, kuko ari inyamaswa zishimishije.

Ingagi ni umutungo w'igihugu dufite utuma abakerarugendo baza gusura igihugu cyacu, ingagi ni imwe mu nyamaswa ifitiye igihugu akamaro yinjiza amadovize menshi mu Rwanda, atuma igihugu cyacu gitera imbere.

Ingwe iba isa n'umukara, n'umweru, igaragara ko isa igiye isa n'injangwe, ariko yo ikaba ifite ubunini busumba ubw'injangwe.

Utunyoni tw'udufundi duhagaze ku biti, udufundi ni utunyoni twiza cyane, dufite mu maso heza. Udufundi ni utunyoni duteye ubwuzu kutureba.

Nyiramwanane n'igisiga gikunda kuba mu biti, kikamanuka hasi mu bishanga kije gushakamo amahera n'iminyorogotwe.

Igihangara kiri kugenda mu ishyamba. Ni agakoko kangiza imbuto zijyanye n'ibidodoki, uruyange. Ni igisi ni agasimba kagiye kumera nk'umuserebanya.

Ingagi zigaragara ko ziri mu ishyamba. Ingagi zitwinjiriza amadovize mu Rwanda. Ingagi ni inyamaswa zifitiye igihugu cyacu cy'u Rwanda akamaro, kandi zizana amadovize, zituma amadovize mu Rwanda aba menshi cyane, igihugu cyacu kigatera imbere.

Inyamaswa yo mu ishyamba igaragara nk'aho ari inka, ariko yitwa imvubu. Ikaba impande zayo hari utunyoni twitwa inyange. Imvubu ikozwe nk'inka baranayirya.

Isha ni agasimba kameze nk'ihene gafite amahembe maremare cyane, kaba mu ishyamba.

Inkongoro ni ibisiga bikunda kuba biri ahantu hapfuye ikintu runaka, cyangwa se ari nk'igihe ibisimba byaguye ku gasozi, usanga inkongoro zahateraniye ari nyinshi.

Igishuhe ni igisiga gikunda kuba mu mazi. Gikozwe nk'imbata neza neza. Kiri mu mazi, kiri kumwe n'imishwi yacyo. Igishuhe iyo kiri koga mu mazi ubona ari ibintu byiza cyane . Iyo giteye n'amagi abantu bakayasanga aho ari barayarya.

Igisiga gifite umunwa usongoye hasi wibirinduye, gifite amababa arimo umweru n'umukara. Gifite n'isunzu.

Inyoni ihagaze ku giti irikwitegura kuguruka ifite umunwa usongoye, ifite ibara ry'ubururu hejuru hagana hasi ibara rigiye gusa ngitaka.

Igisiga gihagaze mu giti ,gifite amabara y'umukara n'ay'umweru ,gifite umunwa usongoye.

Inyoni igaragara ko ihagaze ku giti, iyi nyoni isa n'ubururu ikaba yafashe igikeri ikaba igifashe mu kanwa. Ibisiga bitunzwe n'ibikeri, n'imitubu cyane cyane n'amahera yo mu mazi.

Inkende iri gutamira urunyanya. Inkende imeze nk'umuntu cyangwa ingagi yitwaye nk'umusaza. Inkende ni igisimba cyona imyaka. Ibigori, inyanya kuko aho isanze byeze irasoroma.

Akanyoni kari gushaka udusimba cyangwa se ubuki mu rurabo, akanyoni gafite amabara y'umukara, gafite umunwa usongoye, kari guhaha ubuki mu rurabo busa n'amarongorwa, ururabo ruba ruri guhumura inyoni zikaza guhahamo ubuki n'udusimba.